Uyu mubyeyi arimo konsa abana babiri b'impanga, bambaye imyenda isa iri mu ibara ry'icyatsi ,yicaye ku musambi ndetse impande ye hari agatambaro kari mu ibara ry'umukara n'umweru.